Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bicaye ku ntebe bari kwandika, akaba ari abanyeshuri ba kaminuza bari mu ishuri bari kwiga.

Hano ni muri sale. Ndi kuhabona abantu bicaye bakikije ameza, bari mu matsinda, imbere yabo hari amazi hari undi muntu uri kubasuperiviza. Bari muri asiyinimenti y'amahugurwa bari gukora.

Imbere yange ndahabona abantu benshi bicaye, inyuma yabo hari abandi bahagaze, imbere yabicaye imbere hari imeza iriho ibitabo ndetse n'amazi yo kunywa.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bicaye. Hari ameza azengurutse afite ibitambaro by'umweru. Imbere yabo, hari amacupa y'amazi matoya, naho hagati hateretse ururabo. Bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona umukobwa wambaye baje, ufite ikaramu n'ikaye mu ntoki ndetse n'amazi ku meza, n'inyuma ye hari abandi bantu nabo bameze gutyo bari mu mahugurwa.

Imbere yanjye ndahabona abantu b'abanyacyubahiro bari mu nama; agizwe n'umugabo umwe hari n'abagore babiri; imbere yabo hari amacupa y'amazi. Umugabo ari kuvuga abandi bari kumureba kandi bamuteze amatwi.

Imbere yanjye ndahabona abantu b'abanyacyubahiro bicaye, hakaba hari ameza imbere yabo adekoye n'igitambaro cy'umweru, ariho ibirango bya buri umwe, hakaba hariho raputopu mashine, hariho amazi yo kunywa n'ibirahure.

Hano ni mu cyumba cy'inama, ndahabona abantu b'abanyacyubahiro, harimo n'abambaye amakoti, bicaye bazengurutse imeza, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo, hirya hari umuntu wicaye ukwe, na we ku meza ari kumwe na bo, bamuhanze amaso, ni we uri kubaganiriza.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye ku ntebe z'imikara, bafite amazi ari ku meza imbere yabo, bafite na mashine, laptop, bari kureba kuri ekara iri imbere yabo yanditseho, ngo rura bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona umudamu wambaye ishati irimo utubara tw'umweru n'umukara afite mikorofone mu ntoki inyuma ye hari icyapa cya Arajibi.

Imbere yanjye ndahabona abana benshi bicaye babangavu n'ingimbi barangije secondaire bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'abandi bambaye imipira y'icyatsi kibisi bari ku rugerero .

Mu cyumba cy'inama, harimo abantu b'ingeri zitandukanye. Aba bantu bicaye mu matsinda, hagati yabo hakaba harimo ameza. Kuri ayo meza hari amacupa y'amazi.

Imbere yanjye ndahabona abantu, bicaye, imbere yabo ku meza hari amazi, hari n'amaraputopu, bigaragara ko ari abantu bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona abanyacyubahiro bicaye mu ntebe nziza, imbere yabo hari ameza ariho laputopu bari gukoresha bafite amazi imbere yabo ndetse n'udukombe bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona abakobwa ndetse n'abahungu, bose bambaye imipira y'ubururu. Iriho ibendera ry'u Rwanda. Umwe muri bo w'umukobwa ahagaze imbere yabo, afite mikorofone mu ntoki, ari kuyivugiraho.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye mu ntebe nziza, bose bari kureba ahantu hamwe kandi bateze amatwi biragaragara y'uko bari mu mahugurwa.

Imbere yanjye ndahabona abana b'abanyeshuri bambaye imyitandiro y'umweru bambaye n'imipira y'icyatsi kibisi n'amajipo y'ubururu, hirya hariho abandi bambaye imihondo.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi, baricaye ku ntebe zitukura, ni urubyiruko bafite amatelefoni mu ntoki, bariho barafotora.

Hano ndahabona abadamu babiri bari imbere, umwe afite mikorofone akaba ari kubwira abantu bari imbere ye.

Hano hari umudamu ufite ibisuko wambaye ipantaro y'ubururu arahagaze arikuganiriza abantu bari imbere ye, inyuma yabo hari ibinyabiziga byinshi.

Imbere yanjye ndahabona sare irimo abantu bicayemo, biganjemo igitsina gore, hari n'abandi bicaye imbere hafi y'icyapa cyanditseho ngo repabulike di Rwanda, umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, harimo n'umupolisi. Hari uwundi uhagaze uri kubasobanurira, bari mu nama.

Hano ndabona abantu benshi ari abahagaze ari n'abicaye bose bari mu nama, hakaba hari umuntu uri hagati uri kubagezaho gahunda y'uwo munsi.

Ku irembo ushobora guhitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'gateganyo ikorerwa ku mpapuro, cyangwa igikorerwa kuri mudasobwa, ibisabwa ni uko ugomba kuba ufite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, ukaba uri hejuru y'imyaka cumi n'itandatu, ukaba kandi ufite nimero ya telefoni, cyangwa imeri, kugira ngo ubashe kwakira imenyesha.

Imbere yanjye ndahabona umwana w'umuhungu ufite simati fone mu ntoki ari kuyikoresha, ku ruhande hari uwundi wambaye agapfukamunwa ari kumureba.

Imbere yange ndahabona ihema ririmo abantu babiri bicaye hano imbere hari laputopu iri imbere yabo iri kumeza ifite igitambaro cy'icyatsi kibisi terefone, ndetse n'amarinet inyuma yabo hari abandi babiri bahicaye hanze y'ihema hari abantu benshi bahari muri jaride hari n'amagare.

Rwanda reveni iramenyesha abasoreshwa bose ko bagomba kumenyekanisha ipatani y'umwaka wose ya bibiri na makumyabiri gatanu cyangwa igihembwe cya mbere uyu munsi bishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu na rimwe z'ukwa mbere biriri na makumyabiri na gatanu basure wa eshatu ara ara ayi akadomo gove akadomo rwa.

Aho abagenzi bicara bari kuruhuka harimo abagenzi hubakishije ibyuma hariho n'intebe bicayeho mu muhanda harimo abantu bari kugenda hirya hari ikizu kinini cya etaje giteye amarangi y'umuhondo hejuru hariho n'ikigega.

Imbere yanjye ndahabona umunara muremure w'itumanaho, ku mpande zawo hari umurima urimo insina z'ibitoki.

Serivisi nshya ku rubuga irembo, ikigo gitanga serivisi ni ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, icyiciro n' ubushakashatsi n' ibarurishamibare ,amazina ya serivisi iya mbere ni raporo yo gutangaza ubushakashatsi, iya kabiri kwemeza kongera igihe viza y'ubushakashatsi.

Imbere yanjye ndahabona inzu y'ubucuruzi ifite imiryango ifunguye aho umuryango wa mbere harimo papeteri uwa kabiri akaba ari ayateli minishop, uwa gatatu bakaba hagira serivisi za rura, irembo naho uwa kane bakaba bafite fotokopiyeze

Itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, ni mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane, menkanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa, kugira ngo wirinde ingaruka zo kubikora ku munota wa nyuma, ibi ni Rwanda reveni yabivuze.

Amakuru mashya ku rubuga rw'irembo, kwandikisha ishyingirwa byavuguruwe, umuturage azajya asaba umunsi wo gushyingirwa yifuza anyuze ku rubuga irembo govu, niba wahisemo umunsi wihariye atari kuwa kane, serivisi izajya yishyurwa ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe uwifuza gushyingirwa ahisemo kuwa kane, serivisi zaba ari ubuntu.

Imbere yanjye ndahabona akana kambaye ikoti ry'ubururu n'umweru gahagaze hafi ya koroture y'ibyuma ikotiriye umunara w'itumanaho.

Hano Rwanda reveni iri kwerekana intambwe watera kugira ngo ubashe gusaba sofutiweya ya ibi emu.

Imbere yanjye ndahabona ipirone yumunara w'itumanaho ibyuma byayo bisize irangi ry' umutuku n'umweru .

Menyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za bibiri na makumyabiri nagatatu wishyuwe bitarenze tariki mirongo itatu nimwe z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane wabikora wifashishije telefoni igedanwa cyangwa mudasobwa .

Hano ni kw’irembo intambwe ya kane kanda kuri saba hanyuma ukurikize amabwiriza ibisabwa usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka hejuru ya cumi n'itandatu, abasaba bagomba kugira nimero ya telefoni cyangwa aderessi ya imeri bikora kugira ngo bakire imenyesha.

Imbere yange hejuru hari ikirere gikeye kirimo ibicu bikeya, ndahabona iminara myinshi y'itumanaho.

Imbere yanjye ndahabona imisozi myiza iriho amashyamba ndetse n'ibimera, hejuru hari rafu "Rwanda foresiti otoriti" tiripa "tiransifomingi de isitani porovense toti adabuteshoni tu kilayimati cenji".

Imbere yanjye ndahabona umugabo ubyibushye, wambaye ishati ifite amabara atandukanye, wambaye ingofero, ahagaze mu muryango w'ahantu hafunguye, hari icyapa cyanditseho ngo piwoyesi senta.

Uko wahindura pasiwodi yawe ya E-takisi. Urasura urubuga rwa eshatu (www.rra.gov.rw), ahanditse ngo "get password," ushyiramo PIN na nimero ya telefone, hanyuma ukanda "submit." Nyarangiza, uzabona ubutumwa bugufi bukubwira pasiwodi nshya.

Kanda akanyeri icyenda zeru icyenda akadirishya cyangwa ujye kuri wa eshatu akadomo, irembo akadomo govu, akadomo rwa maze ubyikorere.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye, hakaba hari ibyapa byinshi bigaragaza ko hari abajenti bakora amaserivisi agiye atandukanye, harimo ekwiti egensi, hakabaho ekobanki egisipuresi n'ibindi.

Imbere yanjye ndahabona militipurize iri ronde idasanzwe, abantu bacometseho amatelefone, hariho abantu babiri bahagaze bari gukoresha telefone, hari n'abandi bantu bicaye hirya ku murongo.

Imbere yanjye ndahabona umuntu uhagaze, ari kuvugira kuri telefone, ni kuri Ecobank, hari umusekiririte wicaye, ari kumwe n'undi muntu.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo aho ufite amapoto menshi y'amashanyarazi ku ruhande, harimo n'amatara amurika mu muhanda twita ekeraje pibirike, ahangaha ndi kubona urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n’abahagaze ku mapave.

Imbere yanjye ndahabona insinga z'amashanyarazi nyinshi, izimanuka n'izitambika, hari n'ipirone y'amashanyarazi ku umuyoboro mugari, nkaba mpabona na porotaye y'ubururu iri hagati y'amazu abiri.

Hano ndahabona ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, hariho na kashipawa zimanitse, iyi poto iri inyuma y'iyi nzu iri imbere yanjye isize irangi ry'umuhondo ku nkuta.

Imbere yanjye ndahabona ibyuma by'amashanyarazi, ni taransifo, hirya hari abakozi bambaye amajiri y'icyatsi ingofero z'umuhondo.

Imbere yanjye hari amapoto, ariho insinga z'amashanyarazi. Hirya y'izo poto hari umunara w'itumanaho.

Hano hari bisi itwara abagenzi ifite irangi ry'ubururu iri ku cyapa ahaba akazu abagenzi bicaramo bategereje imodoka hari n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi .

Imbere yange ndahabona ibendera rya repubulika y'u Rwanda, ndahabona ifoto iriho itara rya regaraje pibirike, na none hari insinga zihanyura hejuru, hakaba haparitse n'imodoka rava ifite ibara ry'icyatsi.

Imbere yanjye ndahabona amafoto abiri y'insinga z'amashanyarazi, aho afite taransifo hagati yayo. Hirya hari ipirone y'umuyoboro mugari w'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona ipoto ebyiri zifashe taransifo y'amashanyarazi hari izindi poto nanone hirya ziriho insinga z'amashanyarazi ndahabona abantu hasi bari kugenda.

Imbere yanjye ndahabona ipoto ishinze iriho insinga z' amashanyarazi. Hejuru n'izindi zirahagana hasi zikoreshwa kwalimanta mu mazu. Hakaba hari inzu hirya y'ubucuruzi, hari n'imodoka iparitse hafi y'ipoto.

Imbere yanjye ndahabona ipironi nini y'intsinga z'amashanyarazi, za hote tansiyo. Ni umuyoboro mugari, haruguru yayo hari ishyamba.

Hano negere umuhanda wa kaburimbo ndahabona akajede karimo ibyatsi karimo n'poto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi ndetse na cash power yegereye igipangu gisize irangi ry'umweru, mu gipangu harimo amazu afite amabati y'umutuku.

Imbere yanjye ndahabona ipoto y'amashanyarazi iriho insinga, ikaba ishinze ahantu mu busitani bwiza harimo n'imikindo, hirya yayo hari etage nini hakabana n'inzu ifite igisenge cy'ubururu.

Imbere yanjye ndahabona ipiironi z'amashanyarazi ziriho transifo hariho n'insinga hafi yazo hari ahantu bacuruza ibikoresho bitandukanye bikozwe muri plasitiki .

Iyi ni pironi iriho insinga z'amashanyarazi hirya yayo hari amazu n'imbere yayo hari ibiti, hari n'abantu bari kugenda ndetse n'imodoka.

Imbere yanjye ndahabona ifoto y'amashanyarazi iriho kashipowa nyinshi n'insinga, hino y'aho hari akazu k'ubururu k'abagenzi bicaramo bategereje imodoka harimo n'umugenzi wicaye, imbere ye hari undi uri gutambuka wambaye ubururu n'umweru, inyuma hari abantu benshi ndetse n'umutaka wa Eyateli.

Imbere yanjye ndahabona ipironi y'amashanyarazi hariho taransifo iteretse ahantu mu busitani harimo indabyo ndetse hegereye imigano.

Hano imbere yanjye ndabona ari mu ishyamba hari ibimera by'icyatsi kibisi hashizemo ipironi nini iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona intebe ziri ku makaro hari abantu bicayeho, hirya ndabona abantu bahagaze harimo n'uwambaye iby'umweru muganga bari kwa muganga.

Imbere yanjye ndabona abantu bicaye ku gatebe ka gasima hari undi wicaye imbere n'undi wicaye kuhande wambaye imyenda yiroza hafi yabo hari inzu igizwe n'inkuta n'amatafari ahiye ni kwa muganga.

Imbere yanjye hari ahantu hari ubuso bw'ubururu handikishijwe umweru havuga ngo Nyarugenge disitirikiti hosipito, akaba ari ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Imbere yanjye ndahabona imodoka ifite amabara y'umweru n'umutuku iriho udusaraba dutukura yanditseho ambilanse, ikaba ari ingobyi y'abarwayi hano ni kwa muganga.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri, umwe aricaye ni umurwayi undi arahagaze yambaye itaburiya ni umuganga afite na karidiyafone cyangwa satadisikope mu gutwi.

Hano hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndabona na korodoro nini cyane, hirya hari iyindi nzu ni kwa muganga.

Imbere yanjye ndahabona ubusitani bwiza cyane hino yabwo ndabona koridoro, no hirya nabwo hari koridoro n'amazu afite amabati y'ubururu, ndahabona imodoka ziparitse aha hantu ni kwa muganga.

Imbere yanjye ndahabona inzu ifite umuryango ufunguye ndetse n'idirishya hasi hari amakaro y'umukara n'imbere itara riraka harimo etajeri zipanzeho ibintu, hanze kugikuta hari ikizimyamwoto.

Hano ndahabona koridoro igenda hakaba aba hepfo no haruguru hari amazu biragaragara ko hano ari ku bitaro kwa muganga.

Imbere yanjye ndahabona imodoka ziparitse ebyiri ziri ku ruhande rumwe ni ingobyi z'abarwayi twita ambilance hepfo hakaba iyindi modoka imwe isanzwe hano akaba ari kwa muganga.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba ari umuganga, ari muri sale irimo ibikoresho bigizwe n'amamashini atandukanye agezweho akoreshwa mu buvuzi.

Imbere yanjye ndahabona igikuta kinini kandi kirekire cyubakishije amatafari ahiye, gifite inkingi zisize irangi ry'umuhondo, gifite porutaye isize irangi ry'umukara hakaba hari abagororwa bari kwinjiramo, imbere y'icyo gipangu hari umucungagereza.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite akabara k'umukara n'umweru mu gatuza, iyi ngiyi ikaba ari imyambaro y'abacamanza. Ni umucamanza.

Hano ndahabona umudamu wambaye ikanzu itukura ifite agatambaro k'umukara n'umweru mu gatuza. Ni umucamanza.

Hano ndahabona umudamu wambaye ikanzu itukura ifite akabara k'umweru mu gatuza, akaba ari umucamanza.

Hano ni mu rukiko hari abantu babiri bari kuburana umwe muri bo afite umwunganizi, ari we metere avoka ari kumwunganira mu rubanza.

Imbere yanjye ndahabona umudamu wambaye ikanzu itukura ifite akantu mu gatuza k'umukara ndetse n'umweru. Iyi ni imyambaro y'abacamanza, nawe ni umucamanza.

Imbare yanjye ndahabona harimo abagororwa b'igitsina gore ndetse n'abacungagereza babarinda imbere yabo hari igipangu kinini cyubakishije amatafari ahiye akaba ari igororero.

Hano ni mu rukiko. Ndabonamo abavoka, ndetse harimo n'imfungwa. Ni mu gihe cya korona, bashyizemo intera hagati y'umuntu n'uwundi.

Iyi ni ipaji imwe mugazeti ya leta nimero sipesiyale yo kuya makumya naka kabiri z'ukwa mbere na makumyabiri gatanu ahagaragaramo ingingo ya kabiri ivuga ko aya mabwiriza yateguye mu rurimi rw'ikinyarwanda, hamwe n'ingingo ya gatatu ivuga ko aya mabwiriza atangira gukurikizwa uhereye igihe yatangarijwe mu igazeti ya repubulika y'u Rwanda.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ikanzu itukura ifite agatambaro k'umweru kari mu gatuza, yambaye amarinete ndetse n'ingofero y'umukara izengurukijeho akantu k'umuhondo iyi ni imyambaro y'abacamanza.

Hano ndahabona abantu bicaye, hirya no hino mbere yabo hagiye hari amatabure ariho igitambaro cy'umukara adekuye neza hariho ibirahure biteguye, hirya hari abantu biteguye kuba seriva.

Imbere yanjye ndahabona umudamu wambaye imyenda itukura hakaba hari n'akantu k'umweru imbere ahagana mu gatuza iyi ni imyambaro y'abacamanza.

Imbere yanjye ndahabona abapolisi babiri bafashe umudamu yambaye amapingu iruhande rwabo hari umuntu wambaye amakanzu y'umukara ni umushinjacyaha inyuma yaho hari abandi bapolisi .

Iri n'itangazo ry'inama y'abaminisitiri yabaye ku wa gatanu tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame muri village urugwiro.

Hano ndahabona abacamanza bari imbere bambaye iby'umutuku, nkahabona abashinjacyaha bari hino ndetse n'abavoka bambaye iby'umukara, hagati hari amabendera ya repubulika yu Rwanda, akaba ariyo akoreshwa mu kurahira kugira ngo umuntu yinjire mu nshingano ziremereye nkizi ngizi.

Imbere yanjye hari umugabo uhagaze hagati y'abantu, yambaye rose, n'imfungwa, hari abandi bantu bicaye biteye udutambaro dukozwe mu ibendera ry'u rwanda, akaba ari inyangamugayo za gacaca, nimuri gacaca bari guca imanza.

Hano ni mu rukiko, hari imfungwa yambaye amaroza, iri kuburana, ari kumwe n'abavoka babiri barikumwunganira.

Imbere yanjye ndahabona metire avoka yambaye imyenda y’ mukara n’akantu k’umweru mu gatuza, ari kumwe n’umukiriya we w’imfungwa wambaye linete na roza.

Imbere yanjye ndahabona abantu bane, babiri ni abapolisi abandi babiri ni abasivile umupolisi umwe ari kwambika umuntu ipingu bigaragara ko ari gukekwaho ibyaha.

Imbere yanjye ndahabona imfungwa zambaye amaroza n'udupfukamunwa bashyizemo metero hagati y'umuntu n'uwundi, ni mu bihe bya corona hano ni mu rukiko inyuma ndabona hari n'umucunga gereza uri kubarinda.

Imbere yanjye ndahabona abantu bari kubyina bambaye imipira y'umweru, bakaba bafite icyapa cyanditseho inkiko gacaca ubutabera bwunga.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye iroze akaba ari imfungwa hano ni mu rukiko ari kuburana ari kumwe n'abunganizi be bambaye amakanzu y'umukara n'udutambaro tw'umweru mu gatuza na abavoka uwundi ni umushinjacyaha aricaye.

Imbere yanjye ndahabona umudamu wicaye, wambaye imyenda itukura ndetse n'ingofero y'umukara akaba ari umucamanza, imbere ye hari abashinjacyaha bahagaze imbere ye bari gusinya, hari n'abandi bicaye hirya nabo ni abashinjacyaha bambaye amakanzu y'umukara mfite n'akabara k'umweru mu gatuza.

Hano ndahabona ibicupa bibiri bitukura, bibamo gaze ikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, hari n’umupira munini ukoreshwa mu kuzimya inkongi y’umuriro.

Hano ndahabona ibicupa bibiri by'ibyuma, kimwe gifite ibara ry'umutuku ikindi kikaba gifite ibara ry'umweru. Bikoreshwa cyane cyane mu kurwanya inkongi.

Imbere yanjye ndahabona abapolisi babiri bashinzwe umutekano wo mu muhanda, bahagaze hafi y'akazu k'abagenzi bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Imbere yanjye ndahabona umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda ahagaze ku mapave ahari urujya n'uruza rw'abanyamaguru inyuma ye habonye igikuta cy'amatafari ahiye naho hirya ye hari ipoto y'amashanyarazi imbere hari umuhanda hari n'amapoto ashinze ariho amatara ajya amurika mu muhanda.

Imbere yange ndahabona umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda ahagaze iruhande rw'abamotari babiri baparitse.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga birimo moto n'imodoka y'ivatiri ya polisi; nanone hari icyapa kiyobora kimenyesha mbere ibyerekezo.

Hano imbere yanjye ndahabona ibicupa bibiri by'umutuku, bikoreshwa mu kwirinda inkongi, dukunze kubyita bya kizimyamwoto.

Imbere yanjye ndahabona imodoka zitandukanye ziri mu muhanda, hariho n'imodoka nini ya polisi ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, faya burigede.

Imbere yange ndabona umupolisi wo mu ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, faya burigedi. Afite igitambaro mu ntoki, agiye kuzimya umuriro uri kwaka mu isafuriya iri kuri gaze iteretse ku meza, ameza ari ku mapave hanze, hari abantu bariho bareba uburyo agiye kuwuzimya kugira ngo babyige na bo bajye babikora.

Imbere yanjye ndahabona abapolisi babiri bashinzwe umutekano wo mu muhanda, bahagaze iruhande rwa moto yabo, imbere yabo hari indi modoka ihaparitse, hari n'izindi modoka na moto biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo uri imbere yabo, naho inyuma yabo hari umukobwa uri gutambuka wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira utukura.

Imbere yange ndabona abantu bari gutambuka, harimo n'umugabo wambaye ishati ifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, hari undi uzamuye ukuboko ariwe uri kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndahabona n'abakameramani.

Aba ni abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu aho Polo Kagame yatowe n'abantu basaga miliyoni zirindwi bangana nabirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu ku jana naho Franka Habineza agatorwa n'abantu basaga ibihumbi mironngo itatu n'umunani bangana na zeru n'bice mirongo itanu itanu bitatu ku ijana Filipe Mpayimana agatorwa n'abantu basaga ibihumbi makumyabiri na bibiri bangana na mirongo itatu na bibiriwjana.

Imbere yanjye ndahabona sare nini yicayemo abantu benshi cyane, amatara arikwaka bari mungeri nyinshi. Ndabonamo abantu bambaye amajire ya RIB, abandi bambaye imyenda isanzwe, hari n'abandi bambaye nk'abapasteri.

Hano ndahabona umugabo wambaye ishati na karuvati, afite mikoro mu ntoki. Hirya ye hari abantu benshi bahagaze bari kumva ibyo avuga, bahagaze hafi yinzu isize irangi ry'ubururu.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bafite amabendera ya arapiyefu; ni muri kampanye yo kwamamaza nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame nk'umukandida utanzwe na efuperi ku mwanya w'umukuru w'igihugu.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi, bamwe bari kubyina, abandi bari gukoma amashyi, bitewe n'impapuro bafite mu ntoki z'ishyaka green party, ni muri kampanyi yo kwamamaza umukuru w'igihugu wari watanzwe n'ishyaka green party.

Imbere yanjye ndahabona nyakubahwa perezida wa repubulika y' u Rwanda Polo Kagame ariho aragenda n'amaguru mu muhanda akaba ari kumwe n'abandi bayobozi bamugaragiye.

Imbere yange ndahabona nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Pual Kagame ahagararanye n'abandi banyacyubahiro benshi harimo; abagabo ndetse n'abadamu, inyuma yabo hari amabendera abiri harimo n'iry'u Rwanda.

Hano ni muri sitade imbere yanjye ndahabona nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda paul kagame ahagaze imbere y'ibendera ari kumwe n'umudamu agiye kurahira, ndahabona perezida w'urukiko rw'ikirenga yambaye ingofero y'umukara ndetse n'ikanzu itukura niwe ugiye kumurahiriza ku mwanya w'umukuru w'igihugu.

Imbere yanjye ndahabona abagabo babiri, umwe ni umuzungu, undi ni umwirabura, bicaye ku meza imbere yabo hari amabendera y'ibihugu baturukamo, dukurikije ibyanditse inyuma bakaba ari indorerezi z'amatora.

Imbere yanjye ndahabona abadamu bane bahagaze hagati y'ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'u Rwanda, hejuru hari ifoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Poro Kagame.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri umugabo n'umugore umugabo yicaye ku ntebe y'umukara ari kwandika yambaye ishati y'ubururu iruhande rwe hari akameza kariho amacupa y'amazi. Umugore yicaye ku ntebe y'umukara yambaye rinete nawe ari kwandika kuhande rwe hari akameza kariho ishakoshi icupa rya mazi inyuma yabo hari ikibandereri cyanditseho ubumwe n'ubudaheranwa.

Imbere yanjye ndahabona abantu bane batatu baricaye undi umwe arahagaze yambaye ikositume afite agaseke mu ntoki arikubahereza bagashyiramo amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona abagabo bambaye amakositime n'abagore bambaye imikenyero. Barahagaze bamanitse ukuboko kw'iburyo ukundi kuboko kw'ibumoso gufashe ku ibendera ry'u rwanda bari kurahira.

Imbere yange ndahabona abantu bicaye, inyuma ku gikuta hari icyapa kigaragaza ko ari kongere y'ishyaka rya girini pati, yabereye i Kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Imbere yange ndahabona umugabo ukuze, yambaye ishati y'umweru, karuvati y'umweru ndetse yambaye na rinete.

Imbere yanjye ndahabona Mpayimana Philippe, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri bibiri na makumyabiri na kane. Ahangaha yari ari kwiyamamaza, ari kumwe n'abandi bantu bamushyigikiye iruhande rwe.

Imbere yanjye ndahabona nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye umupira utukura, ingofero y'umukara, agapfukamunwa na rinete azamuye igipfunsi. Hafi ye hari abantu benshi cyane bambaye ibirango bya arapiyedu, ni muri kampanye yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.

Imbere yange ndahabona nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye umupira w'umweru wa efuperi ndetse na rinete azamuye ukuboko, hirya no hino ku ruhande hari abaturage benshi bazamuye amabendera ya efuperi, aha ni muri kampaeyini yo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu.

Imbere yanjye ndahabona imodoka itwara imizigo yo mu bwoko bwa fuso itwikirije shitingi yu'ubururu mbere yayo hamotari imwe yayo harigenzi bujude.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y’umukara namaso ajya kuba matoya wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n’umukara ahagaze imbere y’ igikuta gifite ibara ry'mweru.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ya fuso, inyuma harimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umutuku, imbere yiyo fuso hari umumotari utwaye umugenzi.

Imbere yanjye ndahabona abagenzi bicaye mu kazu bategerezamo imodoka, hari n'abandi bari kugenda, hari bisi nini ziparitse ku murongo zitwara abagenzi.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo mu gitaka hari utumoto tw'amapine atatu tuhaparitse twita Lifani, hirya ya two ni mu muhanda harimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, hakaba hari n'amatara yo ku muhanda ari kwaka ndabona n'amapirone y'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo. Harimo kugendamo ibinyabiziga birimo moto ndetse na dayihatsu y'umweru. Hirya ndahabona abanyamaguru bari kugenda, harimo n'uwikoreye imifuka.

Hano ndahabona imodoka ebyiri zo mu bwoko bw'amafuso zihaparitse zikoreye imizigo, imwe iracyafunze muri shitingi y'umukara, iyindi irimo imifuka ariko yafunguwe.

Hano imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo wo muri karitsiye; hari umumotari uparitse ari kureba hepfo; hari n'undi uri kumanuka muri uwo muhanda ndetse n'imodoka iri imbere ye. Hirya hari amazu meza no hakurya hari ayandi.

Mu masaha ya nijoro amatara ari kwaka ndabona muri gare harimo imodoka zitandukanye za bisi zitwara abagenzi hari n'urujya n'uruza rw'abantu.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo bisi ifite amabara y'ubururu itwara abagenzi hirya yayo hari etage isize irangi ry'umweru.

Imbere yange ndahabona imodoka ntoya zitukura, zose zisa n' iza capanyi yigisha ibinyabiziga. Ziparitse ahantu mu kibuga bigishirizamo inyuma yaho hari agashyamba.

Hano hari ibeni y'umuhondo, yikorera ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi nk'umucanga, amabuye, amatafari n'indi, hirya hari icyapa kigaragaza ko umuvuduko ntarengwa muri uyu muhanda, ari ibirometero mirongo itandatu ku isaha, ndahabona n'umumotari uparitse ku ruhande.

Ni muri gare hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka nyinshi, izo mbona cyane n'izitondetse ku murongo za kwasiteri zanditseho sitela.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga, ikiri imbere ni fuso itwaye umuzigo utwikirirwe shitingi y'ubururu, hino ndahabona amapave agizwe n'akayira k'abanyamaguru.

Hano hari abanyegare babiri bari kugenda mu muhanda umwe ahetse imizigo ku igare n'igikapu mu mugongo, yambaye ingofero naho uwundi ari ku kagare ka siporo hirya yabo hari imodoka ziparitse.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ubururu yo mu bwoko bwa beni, irapakiye kandi itwikirijwe shitingi y'umweru.

Hano ni mu masaha ya nijoro ndi kuhabona umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga byiganjemo ibitwara abagenzi, harimo tagigisi mini bisi, ndetse n'amakwasiteri, hari abantu bari kwambuka umuhanda hagati.

Imbere yanjye ndahabona umunyegare wambaye ingofero, yambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara ndetse na bodaboda, atwaye igare ririho imifuka ipakiye myinshi.

Imbere yanjye ndahabona fuso iparitse itwikiriwe na shitingi, Ifite umuryango w'inyuma ufunguye bari gupakurura ibintu birimo. Hejuru ndahabona insinga z'amashanyarazi, hari n'amatara ari kwaka. Hirya, hari etage iriho iminara y'itumanaho.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abantu, hari amamoto ndetse n'amamodoka, hirya ndabona inzu ya etaje y'ubucuruzi.

Imbere yanjye hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga harimo pikapu y'ubururu ifite amabara y'umuhondo, irapakiye itwikirije shitingi, imbere yayo hari utumoto tubiri tw'amapine atatu natwo tw'ubururu dufunze.

Ni mu masaha ya n'ijoro m'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga, ndikubona kwasiteri yanditseho sitera n'amatara ari kwaka.

Imbere yanjye ndahabona bisi nini ya ritco itwara abagenzi iri mu muhanda iri kugenda nyuma yayo hari abamotari n'abanyegare ku ruhande ndahabona amapave yagenewe kugendwamo n'abanyamaguru hari n'ibiti biri ku muhanda .

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo, harimo Kwasteri iri kugendamo ifite ibara ry'umweru itwara abagenzi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo hari abamotari benshi bahaparitse imbere hari icyapa aho amatagisi ahagarara hirya yaho hari etage nini yo kwa rubangura.

Imbere yanjye ndahabona inzu y'umuhondo ifite n'amabara y'ubururu, ikaba ari urugo mbonezamikurire y'abana bato ba byimana, inyuma yaho hari ama etaje yubatse n'amatafari ahiye menshi.

Imbere yanjye ndahabona ikibuga kinini cyane kirimo ibyatsi hirya no hino yaho, hari amazu ndetse hari n'ibiti.

Imbere yanjye ndahabona icyapa kiri mu ishusho y'uruziga umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, n'ikirango cy'umukara aho kibuza buri muyobozi wese w'ikinyabiziga kurenza umuvuduko w'ibirometero mirongo itatu ku isaha.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice bibiri, icyo hakuno n'icyo hakurya, hagati harimo jaride harimo n'imikindo ndetse n'amafoto ariho amatara ya ekalaje pibulike hakurya hari etaje nini.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara, aho kivuga ko ari inkomane aho umuhanda umwe urasukira iburyo mu mfuruka yenda kuba igororotse.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, ni mu nkomane aho imihanda ihurira, hakaba harimo ibimenyetso bimurika twita feruje biri kuyobora imodoka, hari imodoka ndikubona mu muhanda ziri kugenda, hirya yaho imbere ndabona amazu na ma etaje.

Imbere yanjye ndahabona ibyapa bibiri. Icyo hejuru cya mbere, kigaragaza ko ari mu nkomane; aho umuhande umwe urasukira iburyo mu mfuruka yenda kuba igororotse. Naho icya kabiri, kigaragaza ko hari aho abanyamaguru bambukira; ni ukuvuga zebura kurosingi. Hirya yaho ndahabona taransifo iri ku mapironi abiri. Hari n'insinga z'amashanyarazi.

Imbere yange ndahabona icyapa cyo ku muhanda, gifite ishusho ya mpandeshatu, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, aho kigaragaza ko imbere umuhanda utaringaniye, ibinogo cyangwa utununga.

Imbere yanjye ndahabona icyapa, aho kivuga ko ari ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira ibumoso.

Imbere yanjye ndahabona icyapa kigaragaza imihanda ibiri mu mujyi wa kigali, umwe ni ke eni gatatu ave undi ni ke eni mirongo itatu esite

Hano hari ibyapa bibiri icyo hejuru kigaragaza ko uyu muhanda wegereye ikibuga cy'indege, ziwuca hejuru zigwa cyangwa ziguruka, n'aho icyo hasi kigaragaza ko hari akazamuko gafite agacuri ka cumi na kabiri kw'ijana.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w’umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, aho kigaragaza inkomane umuhanda umwe urasukira ibumoso mu mfuruka ifunguye mu cyerekezo cyerekanwa n'kimenyetso.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo harimo n'icyapa cyo mu ishusho y'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirago cy'umukara, aho kivuga yuko umuzenguruko ntarengwa w'ikinyabiziga muri uyu muhanda ugomba kuba ari ibirometero mirongo itandatu ku isaha, ku ruhande hari inzu y'ubucuruzi isize irange ry'umuhondo hari n'amakaro ku muryango.

Ni icyapa cyo ku muhanda gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umutuku, gisobanura ko bibujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ivatiri harimo ibyapa bibiri, icyapa kimwe kimenyesha mbere icyerekezo naho ikindi kivuga yuko imbere hari aho abanyamaguru bambukira zebura korosingi.

Imbere yanjye ndahabona icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'kirarango cy'umukara aho kivuga imirimo ni ukuvuga ko hegereye igice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo .

Imbere yange ndahabona ipirone iriho insinga z'amashanyarazi, hirya yayo hari igipangu cy'amatafari ahiye kirimo etaje yubakishije amatafari ahiye.

Uyu muryango ufunguye w'amabara y'ubururu ni muri beka banki ofu kigali ndabonamo abantu, harimo n'ikirugu cya kirisimasi.

Imbere yanjye ndahabona urupangu rufite porutaye ikoze mu mbaho rwiza; imbere yaho hari amapave ni ku umuhanda; harimo etaje ya araritoma, siteyi apatimeti.

Hano ndahabona karitsiye nshyashya, hari kuzamurwa amazu menshi kandi meza, arageretse ni etaje, ni mu murenge wa Ndera.

Imbere yanjye ndahabona icyapa kiranga umuhanda, kikaba cyanditseho ka ka makumyabiri esite, kikaba gishinze muri pasiparume hafi y'ibiti.

Imbere yange ndahabona ipoto y'amashanyarazi iriho insinga, iri mu biti, nkaba mbona na none imodoka iri kugenda mu muhanda, hirya no hino hakaba hari amazu ndetse n'ibiti.

Imbere yange ndabona karitsiye nziza ifite amazu afite ibisenge bitukura, ari byo byiganjemo, harimo n'ibiti bigaragara ko hari umwuka mwiza, hakurya hari ama etaje ari kuhazamurwa ndetse hari n'icyuma gikoreshwa mu bwubatsi bw'imigorofa.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo. Ku ruhande rwayo hari etaje nini y'ubucuruzi. Imbere yayo haparitse amamodoka menshi kandi hari urujya n'uruza rw'abantu.

Imbere yanjye ndahabona ifoto y'amashanyarazi ishinze muri jaride hari ibyatsi hepfo hari igikuta cy'amatafari ahiye harimo inzu y'amategura hirya hari etage ifite utubara tw'umutuku.

Imbere yanjye ndahabona inzu ya etage igabanyijemo ibice bibiri, buri gice gifite porotaye yacyo, ibice byose bifite porotaye z'umukara, imbere ya porotaye hashashe amapave.

Imbere yange ndahabona amazu atandukanye meza kandi agezweho, afite ibisenge bitukura, by'umukara, ubururu n'ibindi, hari ayuzuye neza, hari n'ataruzura.

Imbere yanjye ndabona amazu menshi atandukanye ariko yegeranya hagati hagiye hari ibiti, hirya hari amazu ageretse meza.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda uca munsi y'uwundi uri kugendwamo na bisi ifite amabara y'umweru n'ubururu itwaye abagenzi.

Hano ni mu masangano y'imihanda hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, bigizwe n'amamoto dayihatso kwasiteri n'amavatiri.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga birimo moto, ndetse n'amamodoka, hakaba hari imodoka nini, y'umutuku iparitse ku muhanda, kuruhande, inyuma yayo hari akamenyetso kakapa, ka mpande eshatu kari mu muhanda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo hari n'inkomane banyuramo bazengurutse muri'yo nkomane harimo ibinyabiziga byinshi harimo n'ikinyabiziga gihetse ikindi harimo amafoto y'amashanyarazi, ibyapa, isaha ndetse n'amatara yo kubihata.

Hano ndahabona kaburimbo, ni mukomane banyuramo bazengurutse, ndahabona umumotari uri kuzenguruka ndetse n'umunyegare, hagati harimo jaride no ku mpande, ndabona amapoto y'amatara yo ku mihanda.

Hano ni muhanda wa kaburimbo hakaba ari mu nkomane hari ibimenyetso bimurika twita feruje, hari n'imirongo y'umweru abanyamaguru bambukiraho twita zebura korosingi, hari amatara yo ku mihanda ari kwaka ndetse hirya hari abantu benshi.

Hano ni munkomane aho imihanda ihurira, hakaba harimo imodoka iri kugendamo ndetse na moto, hari ibyapa bitandukanye harimo n'ikiranga aho komvesheni iri.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo mushyashya umeze neza mwiza, hagati y'imihanda ibiri harimo akajaride, hirya y'imihanda ni mu ishyamba.

Hano ni mu masangano y'imihanda harimo ibinyabiziga ndabona ahantu hari imirongo y'umweru abanyamaguru bambukiramo twita zebura korosingi.